Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'amadini n'amatorero, irashishikariza abantu kujya bitwara neza mu muhanda kugira ngo hagabanwe impanuka ziba, kuko byagaragaye ko impanuka nyinshi ziterwa no kwitwara nabi mu muhanda, ibyo birareba buri munyarwanda wese cyane cyane abafite ibinyabiziga.